Uyu ni umuntu uri kwambuka aho abanyamaguru bagenewe kwambukira hashushanyije ibara ry'umweru, hirya ye hakaba ari ikinyabiziga gihagaze gitegereje kasoza kwambuka.

Ni inzu iherereye Kibagabaga irimo intebe eshatu, televiziyo imwe, amarido abiri rimwe ry'umweru n'irindi ry'umukara, hagati hakaba harimo akameza n'indi mitako iri ku gikuta cy'umweru.

Abagore bane bicaye ku ntebe umugore wambere yambaye agapira k'icyatsi n'umugore wa kabiri wambaye agapira k'umukara ufite n'ishapule umugore wa gatatu wambaye agapira k'umukara ufite' impapuro nyinshi mu ntoki umugore wa kane wambaye agapira k'umweru gafitemo imirongo y'umukara n'umwana umwe wicaye ku mugore wa kabiri.

Ni umugore wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umweru uri kugenda mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye amata, imitobe, amazi, ibiryo n'ibindi.